Akabari bacururizamo inzoga hicayemo abagabo babiri bari kurebana bari guhana ciyazi n'uturahuri hagati yabo hari akameza n'icupa ry'inzoga riteretseho. Muri kontwari hahagazemo umucuruzi harimo na etajeri iriho inzoga nyinshi zitandukanye zamarikeri.

Mu kabari aho bacuruzamo ibintu bitandukanye, amarikeri, inzoga zo kunywa zifunze, n'ibindi bitandukanye, iyo umuntu yanyweye rirekeri nta bwo agira inda nini cyane nk'umuntu wanyweye inzoga za rufuro.

Akabari karimwo inzoga zitandukanye iza marikeli, iza rufuro, kuri kontwari hariho intebe z'umukara abakiriya bicaraho bari kuganira, bari gufata agacupa.

Icyokezo bokerezaho inyama za burushete hariho umuriro na burushete bari kotsa, izahiye bazirambitse ku ruhande izindi zitari zashya mucoma ari kuzotsa neza.

Inyama ihiye iri mu mushito bamaze kuyotsa, bayisiga ikirungo, iteye ifemba, ni iy'inka, ni nini cyane. Inyama irajyoha iyo bayitetse neza.

Isahani y'umweru y'intongo bayiteguye bayishyiraho ibyo kurya. Hariho inyama, ifiriti, kecapu, mayoneze, n'imboga n'umuceri. Biraryoshye bisa neza cyane.

Umurama w'ibitunguru wanditseho oniyoni redi sehore, umurama ni uw'ibitunguru bya Gasate urera cyane iyo umuntu awuhinze i Musanze ugira umusaruro mwinshi.

Iduka bacuruzamo ibikoresho by'ikoranabuhanga harimo televiziyo, radiyo na makompiyuta. Barafotora hari na fotokopiyeze bafotoza impapuro.

Inzu yubatswe muburyo bw'amaduka, hejuru hamanitse ibyapa bigaragaza ibyo bacururizamo; bamwe bacururizamo imyenda ahandi bacururizamo ibikoresho by'ubwubatsi, ayo amaduka abiri arafunguye, iryi imyenda harimo imyenda ahandi harimo amarangete bakoresha bari kubaka.

Igipangu kinini kirazitiye ariko uruzitiro ruri kurangara kuberako harimo utugiriyaje, muri icyo gipangu hari agahanda kajyayo karimo utugaraviye n'akantu k'agasima kari hagati y'utwo tugaraviye gasa n'umutuku, iruhande rw'icyo gipangu hari hari akajaride, muri icyo gipangu harimo amazu abiri ashakaje amabati y'ubururu.

Alimantasiyo bacururizamo ibintu bitandukanye ,harimo amabase ari imbere ya kontwari ,kuri kontwari hejuru hariho utudobo turimo amandazi, hariho n'imigati ,mu muryango ho harimo amagi, amatireye y'amagi.

Icyapa cyanditseho harimoni minimaketi. Hashushanyijeho ibintu byinshi bigaragaza ko ari icyo ku mangazini, cyanditseho shekabaza na nimero za telefone acuruza na korogate.

Ikiganza gifashe kudushanete dutandukanye, hari n'udukoma dutandukanye, tw'amabara atandukanye, udushyanete baratwambara mu ijosi, bakarimba bakabegwa, n'udukoma batwambara mukaboko.

Agasantere gaciyemo umuhanda wa kaburimbo harimo abantu bahagaze muri ako gasantere ariko ni bake, hubatsemo amazu ariho amakaro, ayo makaro yometse ku bikuta, hariho n'inzu iriho icyapa cya sikolo.

Agakiyosike kanditseho Ekwiti Beka yacu dukora fone. Aka gakiyosike gacururizwamo amayinite. Hariho imbere yaho agasanduku babikamo udukoresho twa antiboloke n'uduposhete bakoreshaga mu gusana telefone. Iruhande rw'ako gakiyosike hariho ibigega by'amazi.

Mu gasantere harimo amazu menshi atandukanye, inzu imwe iriho amakaro umuryango ufunguye ni iduka, imbere yaho hahagaze umugabo kandi hirya hari amacupa ya gaze, hirya y'uwundi muryango ukurikiyeho haparitse igare imbere y'umuryango.

Iduka bacuruzamo ibintu bitandukanye habamo inzoga z'ibyuma, imisatsi y'abagore, amakarito arimo ibicuruzwa. Hanze y'iryo duka hari abana bicaye bari kureba muri terefone umwe yambaye podaboda z'umuhondo, undi yambaye iz'ubururu. Hari n'akabaho gateretseho ibindi bicuruzwa n'amakarito.

Aho bakora inkweto abatayeri, har'aka etajeri kamanitseho inkweto bakoze, har'intebe ifunitse n'igitambaro kirambitse hasi, agacupa kabamo mayonezi, umugabo w'umusiramu uhagaze yambaye ingofero y'umweru n'ikanzu y'umweru.

umuryango w'iduka ufunguye harimo kontwari, hejuru ya kontwari harambitse amacupa y'amazi ya jibu. Imbere mu muryango, hariho umutaka wa MTN umu agenti acururizamo amayinite.

Inzu y'akabari isakajwe amabati y'umutuku ifite parafo nziza cyane, na ya matara meza hagati harimo icyapa cya Amusiteri cy'inzoga, hariho utugiriyaje hejuru yenda no guhomoka.

Mu mujyi haparitse imodoka zitandukanye. Imodoka y'ivatiri, inzu z'ubucuruzi zifite amabara y'umuhondo umuryango ufunguye bacururizamo ibikoresho by'ubwubatsi. Hari umugabo wambaye n'agapira k'umutuku k'itiriningi karimo n'uturongo tw'umweru.

Inzu bigaragara ko ariyo ku muhanda, ifite akabaraza, umuryango wa mbere urafunguye uwundi urafunze, ugufunguye bakoreramo ibintu bya garafic dezayini na serivisi z'irembo, imbere y'uklwo muryango gufunguye haparitse akagare ka siporo.

Inzu yubatse nk'iduka iriho salo bogosheramo kuri iyo salo umuryango urafunguye, undi muryango wegereye salo urafunze ,imbere y'iyo salo hariho kandidagira ukarabe ifite indobo y'ubururu, icyapa cyo kiri kuri iyo salo hejuru cyanditseho niyu vijoni salo.

Inzu ya gesite hawuzi iriho icapa canditseho cumi na gatandatu, iri mu gipangu irimo n'ikindi capa imbere cyanditseho gesite hawuzi, iyo nzu yubatse n'amatafari gadahomye n'i sima ifite n'amabati g'umutuku, yakiraga abashyitsi bakayikodesha.

Loji aho umuntu unaniwe ajya gukodesha akaryama, n'ushaka kunywa icupa akajya kurihanywera. Yanditseho, hariho icyapa cyanditseho gesite hawuze, hashushanyijweho icupa, hariho na nimero wabashakiraho.

Mu mugi hari ibyapa byinshi bitandukanye, icyapa kiri guhinguka cyanditseho pariti doko, hariho igipoto cy'amashanyarazi kiriho insinga nyinshi, hari guhinguka n'icyapa cya sikoro ku gipangu gifite amabara y'umutuku ni heza cyane, hirya hari agasozi kariho ibiti.

Hoteli yitwa rediroke, igipangu cyayo kirafunze. Akapa gahari kanditseho amahoro gesita hawuzi, akandi kanditseho rediroke , akandi kapa kariho imibare gasa n'umweru. Mu imbere harimo amazu yasakaje amabati nicyo gipangu kirakinze hejuru y'urugi hariho utuntu dusongoye.

Iduka rifunguye, baradefirizaga, bakanogosha. Umuryango gurafunguye, harimo imbere ya televiziyo na cakiradiyo gisakuzaga, ca ampuri.

Mu isoko aho bacururiza imyenda, hariho amashuka yo kwitera, hariho ibiringiti byo kwiyorosa, imyenda yo kurarana, n'imyenda yo guserukana na yo irahari. Umugore uri kubicuruza aricaye.

Inzu z'amaduka bacuruzamo ibintu bitandukanye. Umu muryango umwe ufunguye bogosheramo ni saro, handitsweho songa sari. Imbere y'uwo muryango hari umugabo wicaye ku ntebe, inyuma ye hari umugore wicaye.

Amazu y'ubucuruzi bacururizamo ibintu bitandukanye, umuryango umwe ufunguye bakoreramo ibintu bijyanye n'intebe, uwundi muryango badoda imyenda, bagacuruza made ini Rwanda, bagacuruza n'ubwoko bwose bw'imyenda, bakanadoda n'ibikapu.

Isantere y'ubucuruzi haparitsemo imodoka, haparitsemo na moto, harimo amazu menshi inzu imwe yometseho amakaro ku gikuta, iyindi nzu isize amarangi y'umuhondo, yanditsweho sikoro mu mabara y'umutuku.

Icyapa kiriho ibicuruzwa, cyerekana ko uyu muryango ufunguye, bacururizamo ibicuruzwa byo kurya cyangwa ibya botike, n'amavuta yo kwisiga ntayo kurya.

Inzu bacururizamo ibintu bitandukanye, na arimentasiyo, habamo inzoga, harimo inanasi, imigati, amaji, fanta n'ibindi. Abantu bashaka kujyamo, iyo batatetse, cyangwa iyo bari mu urugendo.

Umuhanda w'umukara wa kaburimbo. Haciyemo uturongo tw'umuhondo ducagaguye, iruhande rwaho hari utuborune tw'umweru n'umukara. Hirya y'umuhanda hari amazu afite amakaro, hejuru ku gikuta n'inzugi z'ubururu.

Icyapa kigaragaza ko hakorerwa ibijanye na papiteri hashushanyijweho abakobwa n'abagabo. Handitseho ibintu bitandukanye bigaragaza ko bakorana n'irembo noneho hakaba hanashushanyijwemo karaseri n'utu ajenda.

Umuryango ufunguye hariho firigo iharambitse yo mu ibara ry'umweru n'umukara, uwo muryango ufite inzugi ziriho giriyaje z'icyatsi.

Aho bakanikira amagare. Hari amagare ya siporo bari gukora. Umugabo umwe yifashe mu manyankenya undi ari kumukanikira igare. Inyuma ye hariyo umuryango ufunguye bacururizamo amapiyesi y'amagare.

akabari karazitiye hariho n'icyapa cyanditseho Sitela. Iruhande rwaho hariho amamodoka aparitse. Hirya hari imodoka y'icyatsi y'igifuso n'akavatiri gaparitse ka Rava. Iyi nzu yubakishije amatafari ahiye, isize verine n'akabara gasa n'ubururu.

Gaze y'amashyiga abiri， ishyiga rimwe riteretseho ipanu， irindi baritetseho agasafuriya， umuntu uri kuyikoresha yambaye impeta， kandi nta kintu kirimo，uretse amavuta ari ku ipanu.

Ibikoresho byo mu nzu, hari amabase agerekeranye, hari n'indobo zigerekeranye, imwe isa n'ubururu indi isa n'icyatsi. Hariho n'utumeza tugerekeranye, hejuru y'utwo tumeza hariho imikoropesho. Iruhande rwaho hariho udutebe tw'udutaburete na porutemanto irambitse kuri utwo dutaburete.

Inzu bacururizamo akabari na resitora ,umuryango wayo urafunguye hamanitsemo n'irido mu muryango imbere yayo hari abagabo batatu, umwe yambaye ingofero ayirebesheje inyuma undi yambaye ingofero ari kugenda yerekeza muriyo bare mu muryango wayo hejuru hamanitse.

Inzu yanditseho banki y'abaturage y'u Rwanda， iruhande rwayo hicayeho abantu batandukanye，umugore umwe yambaye umupira w’umutuku，ahetse agasakoshi，we ari kugenda，mu gihe abandi bo bicaye begamiye kuri iyo nzu.

Inzu y'ubugeni ishushanyijemo ibintu bitandukanye. Hirya hari guhinguka ingagi bakoze n'ibindi bishushanyo bitandukanye. Iyi nzu rero iyo ugiyemo ugura igishushanyo cyangwa ukababwira bakagukorera ifoto ukayijyana iwawe.

Aho bacuruza imigati ya keke. Irunze ahantu hamwe. Iyi keke iraryoha cyane ibamo isukari nyinshi. Umwana iyo ayiriye iramuryohera.

Imbere y'isoko rya Goyiko hari abantu bigaragara ko bari gushaka kwinjira mu isoko abandi bari gusohoka kuri iryo soko, hariho ibyapa byinshi cyane n'amatara arikwaka, icyapa kiri kugaragara cyane cyanditseho Kamoni mirongo itatu.

Mu isoko ry'ibiryo, aho bacururiza ibiribwa, abagore bamwe bari gucuruza amashaza, ibitoki, n'ibirayi hirya, umwe yiteze igitambaro cy'ubururu undi yicyenyeje igitenge.

Ibitoki baciye mu murima babirambika ahantu hamwe, ntawo bihiye ni ibyo guteka mu nkono ntawo ari iby'imeneke kuko ni ibitoki by'ibinyamunyo.

Mu isoko aho bacuruza ibicuruzwa bitandukanye. Umufuka uhari urunzemo imikeka myinshi y'ubwoko bwose. Iyo mikeka bayisasa mu nzu bakayiryamaho cyangwa bakayicaraho.

Mu isoko bacururizamo ibintu bitandukanye, harimo amasafuriya agerekeranye, hariho utu etajeri barambitseho imyenda, umugore umwe yicaye ku gatebe, acigatiye umwana, hirya hari guhinguka amazu y'ubucuruzi.

Mu isoko aho abacuruza ibikoresho bitandukanye byo mu nzu: ibikombe bigerekeranye, hari amasafuriya agerekeranye, indobo zitandukanye, amabase, n'imyuko iri ahantu hamwe.

Umujyango ufunguye imyenda zimanitsemo izindi zimanitse ku kumujyango n'udusakoshi tw'abagore abantu batandukanye baje mu isoko kugura imyenda zitandukanye.

Mu isoko aho bacururiza ibintu bitandukanye cyane cyane ibyo kurya, hari abantu benshi baje guhaha. Abagore bamwe batanditse bashize umunzani hasi, amapavuro, ibishyimbo, amashu, n'ibitunguru, babishyize hasi byose bari kubicuruza.

Isoko ryubatswe mu buryo bwa kijyambere etaje harimo imifuka y'ibirayi ibindi babisutse aho babicururiza. Abantu bashaka ibirayi baraza bakabihaha abandi bashaka n'ibindi bitandukanye byo kurya nabwo bakabigurira aha ngaha, harimo abantu baje guhaha ariko ntabwo bari baba benshi cyane.

Mu iduka bacururibizamo ibiribwa, hari umufuka urimo ubunyobwa, hateretsemo n'agakoroboyi ka sarisa, barenzemo ubunyobwa.

Mu isoko aho bacururiza imyenda ya caguwa, baba barayambaye, umugabo uri kuyicuruza, aricaye, harimo iy'umutuku, iy 'amakoboyi, n'indi itandukanye.

Mu isoko ry'ibicuruzwa harimo amapome agerekeranye n'izindi mbuto zirambitse hafi mu mufuka, iryo soko harimo amatara arikwaka, amabati yaryo ari guhinguka n'ibyuma bishinze bisize irangi ry'umukara.

Mu isoko ry'imboga, abagore bamwe baje guhaha undi mugore ari gucuruza imboga zitandukanye, intoryi n'imiteja. Intoryi ziraryoha cyane, baziteka kumwe n'ibirayi, bakazivanga n'imiteja n'imboga z'inyabuto.

Iduka rya butike ririmo utuntu dukeya harimo agafuka ka kawunga yambare, hariho n'udukarito tumanitse kuri etajeri, na papiye jenike ziramanitse hejuru.

Mu isoko aho bacururiza imbuto zitandukanye hari imyembe isutse ahantu hamwe hirya y'ahandi hasutse watameloni zirunze ahantu hamwe izo wotameloni ziraryoha cyane zigiraga amazi menshi imbere ziba zisa n'umutuku.

Arimatasiyo harimo kotwari irimo imigati, hejuru ya kotwari hariho teremusi n'utudobo turimo amandazi n'udukeke, noneho kuri etageri harimo amaji amanitse hejuru kuri etageri n'amazi ya nile amanitse hejuru.

Aho bacururiza ibikoresho byo mu nzu cyane cyane amabase, araharunze. Ikibase kinini kirimo, kibitsemo ayandi, noneho hirya hari umugabo uri kuyacuruza.

Imbuto basutse hasi ku mifuka harimo: iza marakuja, hakabamo amaronji, harimo amatunda, ibinyomoro, amaronji amwe asa naho akuze cyane, ayandi asa n'umuhondo afite ibara ryiza ayandi afite amabara y'umukara.

Amaduka atandukanye harafunguye, hari abo bacuruza arimantasiyo; ibyo kurya, iruhande rwaho haparitse igare rya matabaro, ritwara abantu.

Mu isoko aho bacuruza ibikoresho byo mu gikoni: amasahari, amasafuriya agerekeranye, amabase agerekeranye, udutebe tw'abana, ibyuma bakoresha bari guhata. Hari n'umugore uteruye agataburete uri kugenda wambaye itaburiya y'umuhondo.

Isoko ry'ibiribwa risakajwe amabati, iruhande hariho amazu gafunguye g'amaduka mu iryo soko hari umugore uhagaze wambaye imyenda za matiriningi ipantaro yicyatsi, irimo uturongo tw'umweru n'ikoti ry'umukara n'umweru.

Gare abantu bajyamo bagiye gutega amamodoka, irimo abantu b'ingeri zose batandukanye, hirya hafi y'umuryango hari inzu ya etaje igerekeranye, haparitsemo n'imodoka ya enterinasiyonari ya bisi.

Umugabo uri kunywa ikigage ari kunywera mu ijage, y'ibara ry'ubururu, umugabo ntabwo yasokoje umusatsi we, arunamye. Ikigage bagikora mu masaka, i Musanze gikunda kuhaba cyane hari n'abakita umusururu.

Iduka ribagamo ibicuruzwa, harimo amaji menshi gatandukanye, igicupa kinini n'udutoya duhari tutwitaga mirinda, turaryohaga cane, tugiraga isukari nke.

Muri gare haparitse utumodoka tw’utuvatiri，hariho n’abantu benshi， bari gucuruza mu maduka ari aho ngaho.， hariho n’ibyapa bimanitse， inyuma yayo mazu， hariho igitari，muri gare neza neza harimo abantu batanu.

Mu isoko aho bacururiza imyenda. Imyenda imwe irambitse kumeza abandi bantu bari mu isoko baricaye, iyo myenda irambitse ku meza iri mu mashashi, harimo n'imyenda y'imbere bambaye.

Mu isoko bacururizamo ibiribwa bitandukanye, hari amasabune ya meru amalitiro y'amavuta, umunzani w'isahane, kawunga ifunguye n'indobo irimo indagara, n'abantu bari gucuruza.